Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda, mu cyapa harimo umuhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda hakaba harimo abatwara amagare, iruhande rw'icyo cyapa mu muhanda hakaba harimo imodoka, hirya y'imodoka hakaba hari amatara ari kwaka umutuku, andi ari kwaka umweru.

Ibinyabiziga by'imitende ibiri, kimwe ari kinini gihetse ikindi, bikaba bifite ibara ry'umweru, hejuru yabyo hakaba handitse amagambo avuga wihangayika n'igihe cyo kwishyura.

Icyapa kinini kw'icyo cyapa hakaba hahagazeho abagabo babiri bambaye amakote y'imikara, iruhande rw'abo bagabo hakaba hari ibinyabiziga by'imitende ibiri n'ikinyabiziga cy'umutende umwe.

Telefone eshatu zigerekeranije, iyibanza hasi ikaba iri mu ibara ry'umweru, iyikurikiyeho ikaba ifite ibara ry'umukara, n'iri hejuru ikaba ifite ibara ry'umweru, hakaba handitseho amagambo ngo duha agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi.

Icyapa kiriho umuntu w'umusaza wambaye imyenda y'umukara n'ingofero afite ubwanwa bw'umweru iruhande rwe hakaba handitseho ngo ugatanga haciye akarongo munsi wanditseho icyemezo cy'amavuko icyemezo cy'uko usaba ariho.

Umuntu uri gucuruza hari n'uje guhaha iruhande rw'uri gucuruza hakaba hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari ibigiye biri mu masashe n'ibiri muri amvilope.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye n'imitako yo mu nzu, hakaba harimo n'ibikapu biboshye. Muri iyo nzu hakaba hasize irangi ry'umweru, iyo myenda ikaba igiye iri mu bice bitandukanye.

Isoko rinini ry'imyenda rigezweho rigeraririmo imyenda y'amoko atandukanye, mw'iryo soko akaba ricyemo amatara ari kwaka hakaba harimo amakote n'amapantaro n'amakanzu.

Iduka ricuruza imyambaro muri iyo myambaro hakaba harimo imipira yo kwambara, hejuru y'iyo mipira yo kwambara hakaba hari icyapa cy'umukara cyandikishije amagambo y'umweru.

Iduka ricuruza imyambaro yo kwambara itandukanye, harimo umukobwa ufite mu ntoki ishati, akaba yambaye agakote k'umweru, afite n'agakapu, inyuma ye hakaba harimo n'ingofero muri iryo duka.

Iduka ricururuza imyambaro yo kwambara, hakaba hari imipira, akaba arimo n'amashati, muri iryo duka hakaba hari itara ririmo kwaka muri iryo duka kandi hasi hakaba hubakishijwe n'amakaro.

Isoko rya kijyambere rigezweho, ririmo imyenda itandukanye, harimo amashati afite amabara atandukanye, harimo n'amakanzu, mu iyo nzu hakaba hasi hubakishijwe n'amakaro.

Iduka ricuruza imyenda yo kwambara, iryo duka umuryango waryo ukaba ari ibirahure, hejuru ku iduka hakaba hari itara ririmo kwaka, mo imbere mu iduka inkuta zikaba zisize ibara ry'umuhondo.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye hakaba harimo amakanzu, harimo n'amakote, mu iryo duka hakaba hasize irangi ry'umweru, hakaba hari n'itara ririmo kwaka.

Imodoka ebyiri zitwara imizigo zifite ibara ry'umweru iruhande rwazo hahagaze abagabo batatu umwe yambaye agapira k'umweru, undi ak'icyatsi kibisi undi ak'umuhondo bahagaze imbere y'imodoka.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri, gifite ibara ry'umweru n'ibirahure biri mu ibara rijya kuba umukara, kikaba gifite amatara yaka umutuku, ari mu ibara ry'umutuku n'andi yaka umweru...

Ikinyabiziga kinini cyikorera imizigo, kiri mu ibara ry'umweru, kikaba cyanditseho ijambo hoho, gifite ibirahure by'umukara, kikaba gihagaritse imbere y'inyubako.

Urugo rwubakishijwe n'ibyuma rukaba rufite n'urugi rukozwe mu byuma mo imbere muri urwo rugo hakaba ari ikinyabiziga cy'imitende ibiri gifite ibara ry'umuhondo.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri gihagaze imbere y'inyubako ndende igeretse kenshi, iyo nyubako ikaba yubakishijwe n'ibirahure, icyo kinyabiziga kikaba cyacanye amatara.

Imodoka zitwara abagenzi enye, zifite ibara ry'umweru ebyiri zifite agapapuro ku kirahure k'umweru inyuma yazo hakaba hari ibiti.

Igiceri cyanditseho ngo banki nkuru y'u Rwanda kikaba kiriho ishusho y'ikigori, icyo kigori kikaba gikongoye munsi y'icyo kigori hakaba handitseho umubare uvuga ngo bibiri na cumi na rimwe.

Amafaranga menshi ahambiriye arambitse ku meza, amwe muri yo akaba ari hejuru y'urupapuro hari n'ibiganza by'umuntu biri kuyabara, abantu bakaba ari babiri umwe ayafashe mu ntoki.

Inote y'amafaranga, ku iyo note iri hejuru hakaba hariho abantu bari kubyina, iyo note ikaba ari iy'ibihumbi bitanu munsi hakaba hari indi iriho inzu.

Umuntu uri kubara amafaranga y'inote nyinshi cyane, hakaba harimo iz'igihumbi, imbere ye hicaye undi muntu ufite ikayi, uwo muntu uri kubara amafaranga akaba yambaye ishati y'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bicaye, imbere yabo hari za mudasobwa aba bantu bakaba bambaye amakoti y'umukara n'udupira tw'ubururu inyuma yabo akaba hari icyapa kimanitse ku rukuta cyanditseho ngo banki ofu kigali.

Akaboko k'umuntu gafashe amafaranga menshi ahambiriye, iruhande hari n'andi ari ku ruhande y'ijana, arambitse hejuru ya mudasobwa, ako kaboko kakaba kambaye impeta.

Intebe n'ameza, intebe ikaba ifite irangi ry'umweru, amaguru yayo asize irangi ry'umukara, hirya ku rukuta hakaba hari igishushanyo kiriho utujerekani dutatu tw'umweru.

Indobo ebyiri zirimo amandazi ziteretse ku meza kw'ayo meza hakaba hari n'ikaramu' hirya yaho akaba hari urugi rufite ibara ry'ubururu hejuru y'indobo hakaba hari ikirushi bateruza amandazi.

Umuntu wambaye agakote k'umukara ahagaze imbere y'igicuba bashyiramo amata, imbere ye hicaye umuntu ufite telefone mu ntoki, imbere y'uwo mukobwa hakaba hari igicuba bashyiramo amata gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyapa gishushananijeho telefone hejuru y'iyo telefoni hakaba handitse amagambo avuga ngo zigamira itangira ry'amashuri munsi yabo hakaba hari n'andi yanditse ngo tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro.

Abantu bicaye ari batatu bari kuganira, inyuma yabo idirishya rikinguye, ku ruhande ku rukuta hakaba hari icyapa cy'inzoga, umwe muri bo akaba afite ikaramu ari kwandika.

Umugore wahagaze ufite telefone mu ntoki akaba yateze igitambaro mu mutwe akaba yambaye impeta nyinshi ku maboko akaba yambaye n'urunigi mu ijosi.

Abantu babiri umwe yicaye undi yunamye, uwicaye akaba afite telefone mu ntoki, akaba yambaye agapira k'ubururu, yambaye n'amarori naho uhagaze akaba yateze agatambaro mu mutwe.

Abantu bane bahagaze, bamwe muri bo bafite telefone mu ntoki, umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu uriho uturongo tw'umuhondo, undi akaba yambaye ingofero y'umuhondo ifite n'ibara ry'umweru.

Inote nyinshi zirambitse hasi harimo iz'ijana ni izamirongo itanu imwe ijana ikaba iriho ishusho y'umuntu ufite imisatsi miremire.

Ibiganza by'umuntu bifashe amafaranga amwe mw'ayo mafaranga akaba ariho ishusho y'umugabo ufite imisatsi miremire andi akaba afite ishusho y'umugabo ufite imisatsi mitoya wambaye n'amataratara.

Umuntu ufite amafaranga yayarambuye, harimo inote zigiye zitandukanye, afite n'ibiceri mu kundi kuboko, harimo igiceri cya rimwe, icy'atanu, muri izo note hakaba harimo inote ya mirongo itanu, n'iya makumyabiri.

Umuntu uri kubara amafaranga menshi cyane mu ntoki yiyambitse ku kiganza akantu bazirika ku mafaranga, akaba yambaye n'impeta ku rutoki.

Inote z'amafaranga nyinshi zirambitse hasi, harimo iz'ijana, mu izo z'ijana hakaba hariho umugabo ufite imisatsi miremire, hagati ku mutwe akaba afite n'uruhara.

Amafaranga menshi amwe ari ibiceri andi ari inote, ibyo biceri bikaba ari byinshi bigiye bigerekeranije mu buryo bwinshi butandukanye, iyo noti ikaba ari iya makumyabiri.

Umucuruzi yicaye imbere mu kazu akoreramo, akaba yambaye amataratara, inyuma ye hakaba hamanitse ibyapa bitandukanye bigiye biriho imibare, imbere ye mu idirishya rikaba rikozwe n'ibyuma bisize irangi ry'ubururu.

Inyubako ndende ifite amadirishya abiri, hanyuma ayo madirishya akaba akinguye, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ikinyabiziga cy'umutende umwe.

Inzu y'ubucuruzi iyo nzu ku rugi rw'aho hakaba hashushananijeho inote nyinshi zigiye zitandukanye iruhande rw'iyo nzu hakaba hari ikinyabiziga cy'umutende umwe, imbere y'icyo kinyabiziga hakaba hari undi muntu uri ku kinyabiziga cy'umutende umwe.

Utubati twiza tugezweho, imbere y'utubati hakaba hari ameza matoya, iruhande rw'ayo meza hakaba hari n'andi meza ari kumwe n'intebe zayo nziza zigezweho.

Intebe zo kwicaramo, imbere y'izo ntebe hakaba hari n'ameza, inyuma y'intebe akaba ari akabati gafite ibara ry'umweru, inyuma y'intebe ziri imbere hakaba hari ijerekani.

Ubwogero bunini bugezweho, iruhande y'ubwogero hakaba hari aho abantu bicara iyo bavuye koga, iruhande rwaho hakaba hari indabo nyinshi, hirya hakaba hari inyubako ifite ibirahure byinshi.

Isahani y'umweru iteretse ku meza iriho ibiryo bitandukanye, iruhande rw'iyo sahani akaba yateretse icupa rirerire ry'umukara, iruhande rw'ayo meza hakaba hari n'intebe.

Ameza menshi agiye ateretseho ibyo kurya, hirya y'ayo meza hakaba hari n'andi ateretseho imbuto, harimo izifite amabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi kibisi.

Ubwogero bunini bwogerwamo n’abantu iruhande rwabwo hari imitaka abantu bicaramo hirya yabo hari intebe z’umweru zicawemo n’abantu iruhande rwayo hakaba hari inzu nini.

Inzu nini yubakishijwe n'amatafari, imbere mo hagati hakaba hubakishijwe n'ibirahuri, imbere y'iyo nzu hakaba hari ubwogero bunini bufite ibyuma ku mpande, iruhande rw'ubwo bwogero hakaba hari indabo.

Icyumba kirimo amatara ari kwaka hamanitseho ifoto y'umukuru w'igihugu, icyo cyumba gifite ibara ry'umweru n'umutuku, hakaba harimo n'intebe n'ameza, hakaba hari n'ikaramu n'urupapuro biri ku yandi meza ari kuhande.

Inzu nziza yo guturamo mu iyo nzu mu nzu hakaba harimo ameza atandukanye, hari akoze mu ishusho y'uruziga, n'akoze mu ishusho y'urukiramende mu iyo nzu amatara akaba ari kwaka.

Inzu ndende igeretse, iyo nzu ikaba ifite amadirishya, imbere y'ayo madirishya hakaba hari ibyinjiza umwuka mu nzu, imbere y'iyo nzu hakaba hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ndende zigiye zigeretse zifite n'ibirahure, zikaba hari imwe ifite ibara ry'umutuku, imbere y'izo nzu hakaba hari ibiti n'indabyo.

Inyubako ndende z'ubucuruzi igeretse rimwe, ikaba igiye iriho ibyapa bitandukanye, hariho ibyapa biri mu mabara y'ubururu n'iy'umweru, iyo nzu kandi ikaba ifite amatara azimije atari kwaka.

Abagabo batatu bicaye imbere y'abo hari ameza, kuri ayo meza hakaba hateretseho n'uducupa tw'amazi yo kunywa, umwe muri bo akaba yambaye ikote nta karuvati irimo undi yambaye ikote n'ishati arimo na karuvati.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo abari guhaha harimo n'abari gucuruza. Nk'ibyo bicuruzwa bikaba ari imbuto, harimo imineke, harimo imyembe, harimo n'ibinyomoro.

Abantu babiri bicaye imbere yabo hateretse imifuka irimo ibirayi, iyo mifuka ikaba ari umweru, imbere yabo hahagaze undi muntu waje kugura ibirayi, inyuma yabo hakaba hari inyubako.

Amabasi ateretse hasi arimo imineke iruhande rwayo hahagaze umugore imbere y'uwo mugore yicaye n'abandi, iyo mineke ikaba iri mu mabasi harimo atukura, ay'ubururu, ndetse n'ay'icyatsi kibisi.

Inyubako ndende igeretse, iyo nyubako imbere yaho hakaba hahagaze ibinyabiziga by'imitende ibiri, hakaba hari n'igare hakaba hahagaze n'abantu harimo abambaye imyenda y'ubururu.

Imitako myinshi iboshye imanitse ku gikuta, mu iyo mitako ikaba arimo igiye ifite amabara y'umweru n'ay'umukara hakaba hari indi ifite amabara atukura n'ubururu.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibitoki inyanya karoti, hakaba, harimo abantu benshi baje guhaha, harimo uwambaye igitambaro cy'umweru, imbere ye hakaba hari undi uhahagaze.

Abantu bari guhambira ibikapu, bamwe bahagaze, umwe muribo yambaye igikote cy'umukara, ahetse n'igikapu, uri imbere ye afite terefone arimo gufotora.

Abantu bicaye ari benshi, inyuma yabo hejuru hakaba hamanitse ibitambaro muri abo bicaye umwe akaba yambaye agakote k'umutuku, inyuma y'agakote akaba yambayeho n'akandi kenda k'icyatsi kibisi.

Isoko ririmo ibishyimbo by'umutuku biri ku nkoko, hirya y'ibyo bishyimbo hakaba hari ibase irimo ibigori, hakaba hari n'igikapu cy'umutuku kimanitse, hirya yacyo hicaye umuntu.

Abantu benshi bahagaze harimo umwe wunamye imbere ye harimo akadobo kuzuye ibiraha, inyuma yabo hakaba hari intebe ndende iteretseho ibase y'ubururu.

Isoko ricuruza imyenda itandukanye, harimo imipira, harimo n'amashati, hakaba hahagazemo abantu baje guhaha, muri iyo mipira ihari hakaba hari itukura n'iy'icyatsi kibisi

Inzu ifite amabati ashaje, imbere yiyinzu hakaba hahagaze abantu hasi hateretse n'akadobo gafite ibara ry'ubururu, iruhande mwabo bantu hakaba harimo umugore wambaye umwenda utukura n'ibitenge.

Abantu bahagaze mu isoko ricuruza imyenda itandukanye harimo ibitenge muri abo bantu hakaba hari uwambaye umupira w'umweru, imbere hari undi uhagaze ufite imisatsi miremire.

Umuntu uri mu kazu gatoya mo imbere, hanze y'ako kazu hakaba hahagaze abandi bantu, ako kazu kakaba kari mu ibara ry'umuhondo muri abo bahagaze hanze hakaba hari ufite agakapu ku rutugu k'umukara.

Umuntu ufashe agaseke, undi ari imbere ye nawe yakoze muri ako gaseke, hari n'undi wicaye hasi, wambaye agapira k'umuhondo, ufashe agaseke akaba yambaye agapira k'umweru, imbere ye harambitse za mudasobwa.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'akazu gafite ibara ry'umuhondo kanditseho ngo emutiyeni, abo bantu umwe akaba ari umugore, undi ari umugabo, umugore akaba yambaye agapira k'umuhondo, umugabo akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi.

Abantu benshi baje mu isoko guhaha, umwe muri bo akaba yambaye amataratara, yambaye n'agapira k'umukara, imbere yo kumeza hakaba hari mudasobwa, inyuma ye hakaba hari ibicuruzwa.

Akazu gatoya k'ubucuruzi gafite ibara ry'umuhondo imbere yako hahagaze abantu batatu, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru, hari n'undi wambaye akenda k'umukara hirya ye hahagaze n'undi mugabo.

Inzu y'ubucuruzi, n'iyo nzu ikaba ifite ibara ry'umuhondo, nk'imbere mu nzu hakaba hari abantu bicaye, hari n'undi bahagaze imbere. Hanze y'iyo nzu hakaba hari ushinzwe umutekano, hari n'abandi bantu bahagaze hirya ye.

Umuntu uhagaze wambaye imyenda y'umuhondo, kuri iyo myenda yambaye hakaba handitseho MTN, inyuma ye iruhande hakaba hari utubido hari n'isafuriya.

Abagabo babiri batwara ikinyabiziga cy'umutende umwe, bahagararanye n'abandi babiri, umwe muri bo yambaye agapira k'umuhondo n'agapfukamunwa k'umuhondo, n'undi yambaye ikabutura n'agapira kajya kuba icyatsi kibisi n'agapfukamunwa k'umuhondo.

Ibinyabiziga by'imitende ibiri n'ibindi binyabiziga by'umutende umwe bihagaritse imbere y'inyubako, iyo nyubako ikaba igeretse kabiri iriho icyapa cyanditseho ngo ''iposita'' ibyo binyabiziga bikaba biri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruziri igiye iriho ibyapa, hariho icyapa kimwe cyanditseho ngo ihaha, imbere y'iyo nzu y'ubucuruzi hakaba hari moto, iruhande rw'iyo moto hakaba hari n'indabyo.

Iduka ricuruza imbuto zitandukanye, mu izo mbuto hakaba harimo inanasi, imineke n'izindi zigiye zitandukanye ziri ku cyapa, kiri kuri iyo nzu, iyo nzu ikaba isize irange ry'icyatsi kibisi.

Ikinyabiziga cy'umutende umwe, gihagaze, iruhande rwacyo hari umugabo wambaye ingofero y'ubwirinzi, iruhande rwe hari umuhanda muri uwo muhanda haruguru hari imodoka, iruhande rw'umuhanda hakaba hari ibiti.

Imineke itonoye n'idatonoye hariho n'igiciro cyayo cy'uko igura magana abiri, iruhande rwayo ari ibirayi hari n'igiciro cyayo cy'uko ari igihumbi magana abiri mirongo itanu hejuru yaho hari isoko n'abantu baririmo bari gucuruza inyanya.

Abantu babiri bari mu nzu umwe ari umugore undi ari umugabo, inyuma y'abo ku rukuta hakaba hamanitse amafoto, imbere y'abo hakaba hari ameza n'intebe.

Icyumba cy'inzu gifite amatara y'umuhondo ari kwaka n'ay'umweru ari kwaka hasi muri icyo cyumba hakaba hashashe amakaro ikaba ifite imiryango ibiri umwe ukinguye wegeranye n'idirishya.

Abantu babiri bahagaze, harimo umugabo n'umugore bakaba bahagaze mu byatsi, inyuma yaho hakaba hari ibindi biti binini by'indabyo, imbere yabo hakaba hari inzu yo guturamo.

Abantu babiri bahagaze, muri abo bantu hakaba harimo umugabo, undi akaba ari umugore, inyuma yabo hakaba hari akabati karimo ibintu bitandukanye, harimo amacupa, harimo n'ibikombe.

Inzu yo guturamo, imbere yaho hakaba hari indabyo, iyo nzu ikaba ari iyo gukodeshwa, imbere y'iyo nzu hakaba hari n'igiti kinini cy'imyembe.

Inzu yo guturamo isakajwe n'amabati atukura ikaba ifite urugi rukinguye, imbere y'iyo nzu hakaba hari indabyo, inyuma y'iyo nzu hakaba hari indi nzu igeretse.

Inzu yo guturamo isize irange ry'umweru ikaba ifite amadirishya afite irange ry'ubururu imbere yaho hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru.

Inzu yo guturamo yubakishijwe amabati atukura ikaba ifite idirishya rimwe ry'ibirahure n'urugi ruriho ibirahure imbere y'iyo nzu hakaba hariho ururabyo ikaba ifite urugo rufite irangi ry'umweru.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hari abantu bari gucuruza n'abaje guhaha mu iryo duka, amatara akaba arimo kwaka.

Isoko rinini ryo guhahiramo ririmo n'abantu muri abo bantu harimo babiri umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, inyuma ye hakaba hateretse amacupa menshi.

Isoko rinini rya kijyambere rigeretse kenshi, muri iryo soko hakaba harimo imitaka ifite ibara ry'umutuku, mu iryo soko kandi hakaba hahagazemo abantu benshi.

Isoko rya kijyambere rigezweho ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye hari ibigiye biri mu mifuka, hari ibiri mu makarito ibyo bicuruzwa byose bikaba bigiye bifite n'ibiciro byabyo.

Inzu z'ubucuruzi zigeretse kenshi ku izo nzu hakaba hagiye hariho ibyapa bitandukanye, ku nzu yo hasi imbere yaho hakaba hari imyenda icuruzwa iri mu mabara atandukanye.

Abantu bari mu isoko rya kijyambere rigezweho, babiri bafite udukapu ku rutugu, bari kwitegereza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ari biri mu macupa.

Iduka rinini cyane ririmo ibicuruzwa bijyanye n'umuriro w'mashanyarazi harimo umuntu uhagaze, iryo duka rikaba riri mu ibara ry'umutuku, bakaba bacurujemo amatara.

Isoko rya kijyambere rigezweho, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hari ibiri mu makarito, hari n'ibiri mu masashe, imbere yaho ku muryango, hakaba hari ibirahure, hasi hakaba hubakishijwe n'amakaro.

Isoko rya kijyambere rigezweho, mu iryo soko hakaba harimo imyenda, imbere y'iyo myenda akaba hagiye hashushanije hasi ibirenge, iryo soko rikaba ari inyubako igiye igeretse kenshi.

Umuntu uhagaze wambaye ingofero itukura ahetse agakapu mu mugongo imbere yo ku rukuta hakaba hamanitse imyenda harimo udupira n'amapantaro hasi hakaba harambitse inkweto.

Isoko rinini rigezweho ricuruza ibikoresho byo mu gikoni, harimo amarori n'amasahani, hakaba harimo n'abantu baje guhaha, harimo umwe muri bo wambaye ishati y'umukara.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, hari n'abandi bicaye, hari abitwikiriye umutaka, imbere yabo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo ejo heza kiri mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ifite amabati y'ubururu, imbere y'abo bantu hakaba hari icyapa cyanditseho ngo ejo heza, muri aba bantu hakaba hari abitwikiriye umutaka.

Isoko rinini cyane rya kijyambere rigezweho ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo umuntu waje guhaha ibyo bicuruzwa hakaba hari ibiri mu ibara ry'ubururu, n'ibiri mu ibara ry'umuhondo n'andi mabara agiye atandukanye.

Iduka rinini ry'ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'amoko yose, harimo amavuta yo kurya, hakaba harimo n'udufuka tw'umuceri turi ahajya hasi, hirya yaho hakaba hari utundi dufuka dufite ibara ry'umweru.

Isoko rinini rigezweho rya kijyambere, rigiye ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hari ibiri mu macupa hakaba hari ibiri mu bikarito, bikaba bigiye bimanitse mu buryo bugiye butandukanye.

Isoko ryiza rigezweho rya kijyambere ririmo ibicuruzwa by'amoko atandukanye, hari ibiri mu makarito hakaba hari n'ibiri mu mashashi, ibyo biri mu mashashi ibyinshi bikaba biri mu ibara ry'umutuku n'ubururu.

Isoko rinini rya kijyambere rigezweho ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, hakaba hari ibiri mu makarito n'ibiri mu mashashi bigiye bimanitse mu byiciro.